Abana bari mu irerero, aho bari kwigisha ibintu bitandukanye bigishwa n'umubyeyi kugira ngo babashe gukura bajijutse kandi bazabashe kujya mu ishuri, bazi ubwenge. Ni byiza ko abana bacu bose bajya mu irerero.

Abanyeshuri ubona ko bari ku ishuri, aho bari gukina bidagadura. Ni byiza ko abanyeshuri igihe bari ku ishuri babona umwanya wo gukina kugira ngo babone uburyo bwo kwidagadura maze bakomeze amasomo yabo kuko bibafasha, binagorora umubiri wabo.

Abanyeshuri ni byiza ko batozwa kuba abanyeshuri bakiri abana, ni byiza ko abana bakiri batoya bagana irerero kugira ngo batozwe buri kimwe cyose ndetse banisanzure bakina.

Abana aho bahurijwe ahantu hamwe bari guhabwa igikoma, bari kumwe n'umubyeyi wabo kugira ngo abafashe kandi abiteho kubatoza bazakure bafite umuco kandi bazi imyitwarire iranga umwana.

Abanyeshuri b'abana aho bari gutozwa kwiga, aho ari abana b'ishuri bo mu mashuri y'incuke, ahoo bari gutozwa uburyo bazajya mu mwaka wa mbere, babanje gutozwa ibintu bitandukanye kugira ngo bazabashe gushobora kwiga.

Abanyeshuri ubona ko bagiye kwiga kandi bakiri batoya. Ni byiza ko abana bose bajya ku ishuri kugira ngo bakomeze gukurikirana amasomo yabo, maze biborohere mu mikurire yabo bajijutse.

Umubyeyi aho ari gutoza abana kuba bakora imikino itandukanye, aho biga mu mashuri y'inshuke, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ku ishuri kugira ngo bahabwe uburere bwiza bakiri batoya batozwe n'imikino itandukanye.

Abana ubona ko bari ku ishuri, aho bari gukina imikino, ni byiza ko abana bose bajyanwa mu mashuri y'incuke kugira ngo babashe kujijuka bazabone uko bakomeza amasomo yabo bazi ubwenge kandi bajijutse.

Abana ubona ko bari mu rugo mu irerero, bari gutozwa gukora imikino itandukanye kugira ngo bazakure bajijutse. Ni byiza ko abana bose bajyanwa mu irerero kugira ngo babashe kwigishwa.

Abana aho bari kwitabwaho n'umubyeyi wabo, basoma bari mu irerero, bigisha gusomwa bitabwaho kugira ngo bige gusoma, ni byiza ko abana bitabwaho bakiri batonya kugira ngo bamenye gusoma ndetse babashe no kureba amashusho.

Abana bo mu mashuri y'inshuke aho bari kwiga bari kumwe na mwarimu wabo, bicaye mu ntebe nziza zabugenewe kugira ngo abana babashe kwiga bakurikiranwe kandi amasomo yabo agende neza, ni byiza ko abana bose bazanwa mu mashuri y'inshuke.

Ahantu ubona hamaze kurirwa n'abana, aho bahataye ibikoresho bamaze kuriramo nk'amasahani, ibiyiko, nibyiza ko bitorwa kugira ngo hakorerwe isuku maze hataba hateza indwara zitandukanye.

Ubwiherero ni ingirakamaro cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi, ni byiza ko bugirirwa isuku kugira ngo ababasha kubusobanura no kubukoresha babashe kubwitaho kandi bukomeze bukoreshwe neza.

Ikigo cya Gatagara aho cyakira abanyeshuri batandukanye haba abafite ubumuga ndetse n'abandi bose, kugira ngo babashe guhabwa amasomo yabo byihariye nk'abantu bafite ubumuga na bo bagire ubumenyi kandi babashe kujijuka.

Icyapa kigaragaza ko imbere hari ikigo cy'amashuri ndetse n'impande yaho hari ikawa nk'igihingwa ngengabukungu, ni byiza ko twita ku ikawa kuko ari igihingwa kiza cyane gitanga amafaranga menshi ugereranyije n'ibindi bihingwa.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza aho bari kwiga, aho bari kumwe n'umwarimu kugira ngo babashe kwiga neza, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri, cyane cyane ibigo byiza kandi bitanga uburezi neza, ni byo bikwiye kujya byakira abanyeshuri kandi bikabigisha neza.

Ikigo cy'amashuri cyakira abanyeshuri batandukanye, kugira ngo bahabwe uburere n'uburezi bufite ireme. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri, kugira ngo bakomeze guhabwa uburezi, kandi n'ibigo bigomba gukorerwa isuku, kugira ngo hakomeze ahabwe uburezi bwiza.

Ikigo giherereye ahantu heza, aho gishobora kwakira abanyeshuri batandukanye b'amashuri abanza kugira ngo babashe kwiga neza, bunguke ubumenyi, maze bizabafashe kwiga andi mashuri kandi bakure bajijutse.

Ingwa zifashishwa igihe umunyeshuri na mwarimu barimo bariga. Ni byiza ko ingwa zifashishwa igihe umwarimu ari kwigisha abanyeshuri, kugirango abashe kwandika ku kibaho babashe kwiga neza.

Abana ubona ko bari ku ishuri aho bari gukurikirana amasomo yabo, ubona ko ari ikigo cyiza kandi cyubatse neza. Ni byiza ko abanyeshuri bagana ishuri kugira ngo babashe kunguka ubumenyi kandi bakure bajijutse.

Inzu ubona ko ititaweho neza, ubona ko ifite ahantu hatose cyane, ititaweho, ishobora kwitabwaho ikakorerwa isuku, maze abantu bakaba bayibamo cyangwa bakayikoreramo izindi gahunda.

Abanyeshuri ubona ko bari ku myicundo ari abana batoya, biba byiza ko abanyeshuri bahabwa ibikoresho bitandukanye bibafasha kwishimisha igihe bari gukina kugira ngo bakomeze kuruhuka kandi batsinde neza bidagadura.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza ariko kikaba nta ruzitiro gifite, aho gifite uruzitiro rw'imiyenzi. Ni byiza ko ikigo cy'amashuri kigomba kwitabwaho kigahabwa uruzitiro rumeze neza kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza bafite umutekano.

Abanyeshuri ubona ko bari mu ishuri ubona ko umwe afite isahani, aho bahabwa amafunguro ku ishuri, ni byiza ko abanyeshuri bakiri bato bose bahabwa amafunguro ku ishuri kugira ngo bakomeze bige neza.

Ishuri ryakira abanyeshuri batandukanye, aho mu ishuri harimo intebe nziza zishobora kwakira abanyeshuri kandi bakicara bumva batuje, ni byiza ko abanyeshuri bagana ishuri kugirango baze kwiga bavoma ubumenyi.

Ahantu hari abanyeshuri benshi, ni byiza ko hashyirwa ubwiherero buhagije kandi bugakorerwa isuku kuko bashobora kwanduzanya indwara zitandukanye kugira ngo babashe kuba bakenera ubwiherero bwizewe kandi bwiza.

Ibyapa biri mu ishuri aho biba byanditseho ibyigishwa kugira ngo abanyeshuri babashe kubyiga babisoma maze babashe kubifata mu mutwe, ni byiza ko mu ishuri hashyirwamo ibyapa kuko bifasha abanyeshuri mu myigire yabo.

Ibitabo bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu biga amasomo rusange kugira ngo babashe kwiga neza kandi biteze imbere, ni byiza ko ibitabo byohererezwa abanyeshuri kugira ngo babashe kwiga neza maze banguke ubumenyi.

Abana ubona bagiye ku ishuri, bari ishuri aho bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bishimishe, bidagadure. Bamwe bari gukina umupira, abandi imizari, ariko abandi bakirana kugira ngo babashe kwidagadura, ni byiza ko abanyeshuri babana, igihe bahabwa akaruhuko bagomba gukina kugira ngo baruhuke.

Abana ubona ko bafite ubugari bari ku ishuri bari kwitabwaho bahabwa ibyo kurya kugira ngo babashe gukura neza. Ni byiza ko abana bajya ku ishuri no mu marerero ariko bagahabwa ibyo kurya kugira ngo babashe gukura neza.

Abana ubona ko bari gukina bagiye ku ishuri, ubona ko ari abana batoya. Ni byiza ko abana bose bagana ishuri kugira ngo babashe kubona ubumenyi buzabafasha mu mikurire yabo ndetse no kwiteza imbere bityo igihugu na cyo kibashe kwiteza imbere.

Ibyapa ni ingirakamaro mu ishuri kuko bifasha abanyeshuri mu kwiga neza, aho baba biga hari n'ibyo bibonera impande yabo kandi bikaba bihahora, ni byiza ko abana ahantu bigira mu mashuri hashyirwamo ibyapa n'ibishushanyo bibafasha kwiga neza.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyakiriwe neza kandi cyubatse neza, mu buryo cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo babashe kwiga biyungura ubumenyi, maze bakomeze kwiga neza kandi bafite ibikoresho bihagije.

Ikigo cy'amashuri kirimo imyicundo, aho gifasha abanyeshuri kwidagadura igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri kandi bakabasha no kuruhuka igihe barangije amasomo yabo. Ni byiza ko abanyeshuri bahabwa umwanya wo kwiga ndetse bagahabwa n'umwanya wo kuruhuka bidagadura.

Ikigo cy'amashuri cyakira abanyeshuri batandukanye, kugira ngo bahabwe uburere ndetse n'uburezi, babashe kwiteza imbere mu gihe barangije amasomo. Ni byiza abana bose ko bagana ishuri kugira ngo bahugurwe, bigishwe maze batere imbere.

Abana bo mu mashuri abanza babona ko bahawe mudasobwa z'abana zo kwifashisha kwihugura kugira ngo bamenye uburyo bakoresha mudasobwa ndetse no gukiniraho imikino itandukanye, ni byiza ko abana bahabwa ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo bihugure.

Abanyeshuri aho bari mu kuruhuka bari gukina imikino itandukanye ni byiza ko abanyeshuri biga ariko cyane cyane nk'abana bahabwa umwanya wo kuruhuka kugirango babashe no kwidagadura maze batse.

Ikigo ubona ko cyubatse neza gitanga uburezi, aho abanyeshuri bajyanwa bakigishwa maze bagahabwa ubumenyi buzabafasha mu buzima bwabo bw'ejo hazaza kugira ngo bazakure bajijutse.

Ikigo cy'amashuri ubona kimeze neza, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo baze kwiga maze bavoma ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe gukura bajijutse kandi ikigo kibigishe neza.

Ikigo cy'amashuri cya Saint Jean Nyarusange, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana iki kigo, kuko gitanga ubumenyi bwiza kandi bufite ireme.

Abanyeshuri ubona ko bateraniye ahantu hamwe bari guhabwa amahugurwa kugira ngo bakomeze kwiga neza, maze bibafashe ku bijyanye no kwiga kandi bakomeze kubaho neza bajijutse.

Ikigo cya Gatagara giherereye mu karere ka Nyanza, aho ari ikigo cy'imyuga cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo babashe kwihugura ku bijyanye n'imyuga, ndetse babashe no guhabwabwa impamyabumenyi maze babashe kwiteza imbere.

Ikigo cy'amashuri ubona ko hari abanyeshuri kandi ari ikigo cyubatse neza, aho cyakira abanyeshuri batandukanye bahabwa ubumenyi butandukanye mu masomo yabo, harimo amasomo atandukanye kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi maze bajijuke biteze imbere.

Akawunga ni bimwe mu biryo byiza cyane, aho bitegurwa cyane cyane ku mashuri, aho byaruriwe abanyeshuri kugira ngo babashe gufata ifunguro. Ni byiza ko bitunganywa neza kugira ngo habe hareba ko, bidashobora gutera indwara, harebwa ko byahiye neza.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza kandi kiri ahantu heza, cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, maze bazabashe kwibeshaho mu gihe kizaza. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe kujijuka, igihugu kigire abantu bajijutse.

Abanyeshuri ubona ko bari ku ishuri aho bari gukurikirana amasomo yabo, ubona ko ari abanyeshuri biga mu mashuri abanza aho bahabwa ubumenyi kugira ngo babashe kwiga neza maze bajijuke, ni byiza ko abana bose bajyanwa ku ishuri kugira ngo babashe kwitabwaho.

Ikigo cy'abadive aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo babashe kwigishwa, haba abo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye kugira ngo bahabwe uburezi n'uburere maze bazabashe gukura bajijutse kandi babashe no kwiteza imbere.

Abanyeshuri ubona ko bari mu nama, baje kumva ibyo abayobozi babo bababwira kugira ngo bakomeze kwita ku myitwarire yabo ndetse n'imyigire yabo. Ni byiza ko abanyeshuri bakurikira inama ndetse n'ubutumwa bahakura kugira ngo babashe kwiga neza.

Abanyeshuri ubona ko ari ab'abakobwa, ubona ko bagiye gukina umupira w'amaguru. Ni byiza ko dukina umupira w'amaguru kuko dufasha kwidagadura no gutsindira ibihembo mu marushanwa. Ni byiza ko abanyeshuri bitoza kandi bagakora imyitozo.

Abanyeshuri ubona ko bamaze gusoza amasomo barimo gukina imikino y'amaboko barushanwa kugira ngo bakomeze bakore imyitozo ngororamubiri, aho biba ari byiza cyane ko bifasha umubiri kandi abantu bigatuma bishima, bidagadura.

Aho abana baba bari mu ishuri barigukora imyitozo bakurikikira mwarimu ibyo arikubigisha. Ni byiza ko abana bose bagana ishuri kandi bagakurikira ibyo mwarimu arikubigisha kugira ngo bakomeze kugira ubumenyi kandi baguke mu mitekerereze yabo.

Ikibaho gikoreshwa ubona abanyeshuri bari kwiga, aho kiba cyakoreshejwe bari kwiga, hariho ingengabihe y'uburyo biga ndetse n'uburyo mwarimu azajya aza kubigisha.

Ikigo cy'amashuri ubona hahagaze akana kaje ku ishuri, ni byiza ko abana bose bagana ishuri ,kugira ngo bahabwe ubumenyi kandi barerwe neza, kugirango ngo bazakure bavemo abantu bajijutse, kandi bafitiye igihugu akamaro.

Ikigo cy'amashuri, aho cyakira abanyeshuri batandukanye, kugira ngo bahabwe ubumenyi, maze babashe kuzibeshaho, mu gihe kizaza. Ni byiza ko abanyeshuri bagana iki kigo, kuko ari cyiza, kandi kimeze neza gitanga ubumenyi bufite ireme.

Abantu ubona ko bagiye gukina umupira, ni byiza ko mu bigo by'amashuri abanyeshuri bahabwa umwanya wo gukina umupira w'amaguru, kugira ngo babashe kwidagadura banagorore ingingo zabo z'umubiri, maze babashe kugira ubuzima bwiza.

Abana ubona ko bari gukina, bari mu gihe cyo kuruhuka bari ku ishuri, ni byiza ko abana bagirira n'umwanya wo gukina igihe barangije amasomo yabo cyangwa baruhutse, kugira ngo babashe kwidagadura maze baruhuke, maze amasomo yabo agende neza.

Umunyeshuri ubona ko ari gukora ikizamini cya leta, ubona ko ari kumwe nbandi banyeshuri bahagarariwe bari gukora ibizamini bya leta, kugira ngo bakomeze gukora ibizamini neza, kandi basuzumwa ubwenge bwabo kugirango babashe gutsinda.

Imodoka ubona itwaye abanyeshuri aho abanyeshuri bari kujya ku ishuri kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo, ni byiza ko abanyeshuri bagera ku ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi kugira ngo babashe gukura bajijutse.

Ikigo cyubatse neza ubona cyubatse mu buryo bugezweho, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kandi bakagana ishuri bose kugira ngo babashe gukura bajijutse igihugu kibashe gutera imbere.

Abana bari ku ishuri aho bari kurya akawunga rwose kandi bishimye kubera ko kaba katetswe n'abahanga. Ni byiza ko ababyeyi bohereza abana ku ishuri, kandi n'abatetsi bagomba guteka neza, kugira ngo birinde guteka ibiryo bishobora kwangiza abana.

Ibyapa ubona bigaragaza ikigo cy'amashuri, ubona ko cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe gukura neza, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana iki kigo kuko gitanga ubumenyi kandi n'uburezi bufite ireme.

Isomero abanyeshuri basomeramo ibitabo, aho baza bagasoma kugira ngo biyungure ubumenyi. Ni byiza ko isomero ribanza, kwitabwaho kandi hagashakwa, ahantu heza ho kuba abanyeshuri basomera ibitabo, kandi bakahagirira isuku.

Ishuri ubona rimeze neza ririmo ikibaho cya kijyambere, aho ryifashishwa mu kwakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo babashe kwigiramo maze bahabwe ubumenyi, buzabafasha mu buzima bwabo bwiza, aho harimo intebe nziza kandi zubatse neza kandi zifasha abanyeshuri kwiga neza.

Abanyeshuri ubona ko bambaye neza, aho bari mu kigo ubona ko baje mu nama. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe gutozwa uburere hakiri kare, bazakure ari abanyeshuri babereye igihugu.

Aba na bo bari kubyina imbyino za gakondo, aho bari kubyina biyereka abantu, ni byiza ko tubyina imbyino za gakondo kuko ari nziza zifasha kwidagadura kugira ngo abantu bakomeze bishime kandi bagire ubuzima bwiza.

Umwarimu ubona ko ari mu isomero. Isomero rifasha abanyeshuri kugira ngo basome ibitabo bitandukanye maze babashe kugira ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bihatira gusoma kandi kuko ariyo soko y'ubumenyi kandi bakabikora babikunze.

Abanyeshuri ubona ko bari ku ishuri bashyizwe hanze bicaye hanze bari mu nama kugira ngo babashe guhabwa inama ku bijyanye n'imyitwarire yabo ndetse n'imyigire yabo kugira ngo bibafashe gukuza ubwenge bwabo ndetse n'uburyo bigamo.

Ikigo cy'imyuga cya Kageyo aho cyakirira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahamye imyuga yabo kandi bayikoreshe babashe kwiteza imbere no kwihangira imirimo, maze bahabwe ubumenyingiro babashe kwifashisha mu gukora akazi.

Umunyeshuri aho ari imbere ku kibaho ari kugerageza gukora ibibazo yahawe na mwarimu kugira ngo abashe kuzamura igipimo cye cy'ubumenyi aho ari gukora ibibazo by'Imibare, ni byiza ko abana bajyanywe imbere kugira ngo bagire uruhare mu myigire yabo maze babashe no kubifata.

Umwarimu ubona ko ari ari kwandika ategura amasomo anakosora impapuro z'abanyeshuri, aho yamaze kubaha imyitozo kugira ngo abakosore arebe ikigero cyabo urwego bagezeho. Ni byiza ko abarimu batanga isuzumabumenyi kandi bagakosora abanyeshuri kugira ngo barebe ibyo bize ko babimenye.

Umwana ubona ko ari mu modoka agiye ku ishuri, ni byiza ko abana bagezwa ku ishuri cyane cyane iyo batuye kure kugira ngo babashe guhabwa ubufasha bwo kugera ku ishuri nta kibazo bahuye na byo, maze babashe kugira imyigire myiza izabafasha igihe bamaze gukura maze bakomeze bakure bafite ubumenyi.

Abanyeshuri ubona ko bari ku ishuri kugira ngo biyungure ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bose n'abana bakiri batoya bose bagana ishuri kugira ngo barererwe mu mashuri, bityo bakure bafite ubwenge kandi bajijutse.

Abanyeshuri aho bari ku ishuri, aho bari kujya mu ishuri. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo bagure imitekerereze yabo n'ubumenyi, azi ubumenyi bahawe zabashe kubukoresha babona akazi cyangwa bihangira imirimo.

Abanyeshuri ubona ko bari ku ishuri aho bari gukina bari mu gihe cyo kuruhuka, ni byiza ko abanyeshuri bose bajyanwa ku ishuri kugira ngo bakomeze gukurikirana amasomo yabo maze bajijuke, igihugu kigire abantu bafite ubwenge kandi bajijutse.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyubatse neza, kirimo abanyeshuri aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi kandi bahabwe n'uburere kugira ngo babashe kwaguka mu mitekerereze.

Ahantu ubona hubatse neza ubona ko ari ikigo gifite ubusitani bwiza. Ni ngombwa ko abanyeshuri bigira ahantu heza kandi hasukuye, kugira ngo babashe kwiga neza kandi ubumenyi bwabo bubashe kubageza aheza biteza imbere.

Abanyeshuri ubona ko bari mu ishuri bari kwiga bose bafite amakayi, ni byiza ko abanyeshuri bakora imyitozo kandi bagasubiramo kandi bagakurikira mwarimu igihe mwarimu ari kubigisha kugira ngo bakomeze bazamure ubumenyi bwabo kandi bizabagirire akamaro.

Ishuri ryubatse mu buryo bw'amagorofa aho ryigamo abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi buzabafasha mu iterambere ryabo ry'ejo hazaza maze bazagire ubuzima bwiza.

Ikigo ubona ko cyakira abanyeshuri batandukanye, aho hari abanyeshuri bari kujya kwiga kugira ngo babashe kubona ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe kwitabwaho maze bakure bajijutse biteze imbere bateze n'igihugu muri rusange imbere.

Ikigo cyakira abanyeshuri bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye kugira ngo bahabwe ubumenyi bw'ibanze buzabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza ko abanyeshuri bose bajya ku ishuri kugira ngo bakomeze kujijuka kandi bihangire imirimo binyuze mu kwijijura, bahabwa ubumenyi kugira ngo bazatere imbere.

Ikigo cyiza kandi cyubatse neza kiri ahantu heza, aho cyigiramo abanyeshuri ba kaminuza kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi buzabafasha kubona akazi mu gihe kizaza kandi babashe kwiteza imbere.

Intebe nziza cyane igezweho aho yicarwaho n'abanyeshuri bari ku ishuri kandi bakumva baratekanye kuko ari intebe ikomeye kandi igezweho. Ni byiza ko hakorwa intebe nyinshi cyane kandi zigezweho zihagije, zihabwa abanyeshuri bari ku ishuri.

Abanyeshuri aho baba bari gusoma mu isomero, ni byiza ko abanyeshuri bagana amasomero kugira ngo babashe kuba bakwiyungura ubumenyi kuko isomero ari isoko y'ubumenyi.

Laboratwari yifashishwa mu buryo bw'ubushakashatsi, aho abanyeshuri bajya bagiye kuhakorera ibinyabutabire kugira ngo babone uburyo bakora ibishakashatsi ndetse no kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi mu byo bakora.

Ikigo cy'amashuri ubona cyubatse neza, imbere yaho hahagaze abanyeshuri ndetse n'umurezi wabo, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi maze bazabashe gukura bajijutse.

Ikibaho cyifashishwa n'abanyeshuri kugira ngo babashe kwiga, aho handitseho inyuguti z'imibare. Ikibaho ni ingenzi cyane ku buryo kibafasha igihe mwarimu ari kubasobanurira, kugira ngo babashe kubona ibyo bari kwiga.

Abantu babona ko bagiye gukina umupira, aho bipanze ari amakipe abiri, abagiye gukina umupira ubona ko ari abanyeshuri. Ni byiza ko abanyeshuri bagira igihe cyo gukina umupira, kugira ngo bidagadure na byo biba ari iby'ingenzi mu masomo yabo.

Abanyeshuri ubona ko bari mu kigo cyiza cyane, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi ndetse n'impamyabumenyi bazabashe kwiteza imbere babona akazi binyuze mu bumenyi bahawe.

Abanyeshuri ubona ko bari ahantu bari guhabwa inama ku bigendanye n'uburezi bwabo kugira ngo babashe kwigishwa neza, maze bakurikirane amasomo yabo neza, maze babashe gutsinda nkuko biba byarateganyijwe.

Icyumba cyubatse neza kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa zifashishwa abanyeshuri baje kwihugura ku bijyanye na mudasobwa ndetse no gukora ubushakashatsi ku birebana n'amasomo yabyo ni byiza ko abanyeshuri bahabwa ibikoresho bihagije.

Abanyeshuri ubona ko bahuriye ahantu kugira ngo bahabwe inama ndetse n'uburyo bashobora gukoresha kugira ngo batsinde neza n'ingamba zafatwa kugira ngo ababashije gukosa babashe guhanwa, ni byiza ko abanyeshuri bakora inama kuko ibafasha guhindura imyitwarire yabo.

Ikibaho gifasha umunyeshuri igihe ari kwiga ndetse n'umwarimu igihe ari kwigisha, ni byiza ko abanyeshuri biga bakoresheje ikibaho na mwarimu aho ariho yandika kugira ngo babone ibyo biga.

Abanyeshuri bari mu mahugurwa, aho bari guhugurwa ku bijyanye n'imyitwarire yabo ndetse n'uburyo bashobora gukoresha kugira ngo bagure imitsindire yabo, n'ingamba zishobora gufatwa kugira ngo babashe kurebwa uburyo bakwagura ndetse no kuzamura imitsindire y'abanyeshuri.

Ahantu harimo ibitabo bitandukanye ubona ko ari mu isomero, aho ryifashishwa n'abanyeshuri batandukanye kugira ngo babashe gusoma, maze babashe kwiyungura ubumenyi mu byo basoma. Ni ibyiza ko abanyeshuri bose bagana isomero kugira ngo biyungure ubumenyi kuko isomero ni isoko ry'ubumenyi.

Abanyeshuri biga ku kigo cya St Joseph birambo, ahari abanyeshuri bakeye uko bigaragara, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kandi bakagana iki kigo kuko kigisha neza kandi kigafasha n'abanyeshuri kububakira imyitwarire.

Abanyeshuri ubona ko bari kumwe na mwarimu wabo aho bari kwigishwa ku bintu bitandukanye bajyanywe hanze, ni byiza ko abanyeshuri banyuzwamo bakajyanwa hanze kugira ngo babashe kwiga ahari ahantu hababereye kandi hameze neza.

Ishuri ubona ko ririmo ibitabo bitandukanye, ubona ko ari isomero abanyeshuri basomeramo ariko biba byiza iyo isomero ryitaweho, ibitabo bikaba bipanze ku murongo kugira ngo bifashe abanyeshuri igihe bagiye gusoma babashe gusoma neza kandi basome ibintu bisomeka bidasomeka.

Isomero ririmo ibitabo bitandukanye bifasha abanyeshuri gusoma ndetse bakiyungura ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana isomero kuko ariyo soko y'ubumenyi kandi ariho bashobora gukura amakuru yizewe.

Mudasobwa ubona ko umunyeshuri ari kwigiraho, ku bijyanye n'ibinyabuzima. Ni byiza ko abanyeshuri biga kandi bagakoresha mudasobwa, ku bijyanye no mu gihe bari gusoma amasomo yabo, kuko bibafasha mu myigire yabo.

Ahantu ubona ko hakorerwa ubushakashatsi ku bijyanye n'abanyeshuri biga ku bijyanye n'ibinyabutabire kugira ngo babashe gukora ubushakashatsi banavumbure, maze babashe kumenya ubwenge binyuze mu byo bakora.

Icyumba ubona ko kiraramo abanyeshuri biga bataha ba kaminuza, aho usanga ari icyumba giteguye neza kandi kiri kumwe n'ibikoresho bitandukanye. Ni byiza ko abanyeshuri barara ahantu heza kuko bigira uruhare mu myigire yabo.

Icyumba cyo muri kaminuza y'u Rwanda, aho gikorerwamo abantu bose baje kwivuza cyangwa abandi bose baje mu isuzuma, aho abanyeshuri baba bari kwiga kugira ngo biyungurure ubumenyi ku bijyanye n'uburyo bwo kuvura.

Abanyeshuri ubona ko bari kwigishwa n'umuzungu, aho bari gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye kugira ngo babashe kwihugura. Ni byiza ko abanyeshuri bose bakora ubushakashatsi bahabwa ibikoresho bihagije, bifashisha muri iryo koranabuhanga.

Icyumba ubona ko cyubatswe neza ariko ari icyumba cy'isomero aho abanyeshuri bifashisha bajya gusoma ibitabo bitandukanye kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bose bagira umuhate wo gusoma ibitabo kuko ariyo soko y'ubumenyi.

Abayobozi aho bari mu nama kugira ngo hige ingamba zafatwa kugira ngo uburezi bukomeze gutera imbere ndetse n'abanyeshuri bakomeze gutsinda ku kigero cyo hejuru, aho barikwiga ku bintu bitandukanye bishobora gufasha imitsindire y'abanyeshuri.

Ikigo cya kaminuza cya catolique, aho cyakira abanyeshuri batandukanye barangije ayisumbuye kugira ngo babashe kuminuza amasomo yabo, maze bahabwe impamyabumenyi ndetse n'ubumenyi bazabashe kubyifashisha mu gihe bari mu kazi maze biteze imbere.

Icyumba ubona ko cyubatse neza, ubona ko cyubatse mu buryo bugezweho, cyifashishwa mu kwakira abanyeshuri igihe bari kwigiramo. Ni byiza ko hashyirwamo intebe zihagije, kugira ngo babashe kubona aho bicara igihe bari kwiga.

Ibigo by'uburezi aho bifasha abanyeshuri ndetse n'uburyo bw'uburezi kuzamura, ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo imitsindire yiyongere, aho kugira ngo hakomeze kuboneka abantu batsinda ari benshi.

Inyubako ubona yubatse neza kandi yubatse mu buryo bugezweho ,ubona ko yakira abanyeshuri batandukanye bo muri kaminuza, kugira ngo babashe kuminuza amasomo yabo, maze bazabashe kubona akazi, bahabwe n'impamyabumenyi, kugira ngo bazabashe kwiteza imbere.

Ikigo cy'abanyeshuri, aho ubona harimo ishuri rimeze neza ririmo amatara meza, aho yifashishwa mu kwakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bakomeze guhabwa amasomo yabo kandi bige neza.

Umubyeyi ubona ko atwite ari gutunganya ibintu kugira ngo abashe guteka abe yakwibeshaho, ni byiza ko abanyeshuri, cyane cyane abiga bataha babasha guhabwa ibikoresho by'ibanze kugira ngo bibafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi, babashe kwibeshaho.

Icyumba gikoreramo abarimu aho baba bateguriramo ibintu bitandukanye bazifashisha igihe bari kwigisha abanyeshuri. Ni byiza ko abarimu bose, babanza gutegura amasomo yabo bagiye kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe kwitegura neza kandi bigishe ibintu biri ku murongo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa ku ishuri, aho bifasha igihe abantu cyangwa abanyeshuri bari mu bushakashatsi kugira ngo babashe gushaka amakuru neza kandi bayabone, ni byizayiza ko ibigo byinshi byegegerezwa ibikoresho bitandukanye, cyane cyane ibigo bya kaminuza.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka Mudasobwa, aho abanyeshuri bifashisha baza kwihugura kuri ibi bikoresho cyangwa baje gukora ubushakashatsi, ni byiza ko buri kigo kigira ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ikigo ubona ko kigaho abanyeshuri ubona ko ari ikigo cyubatse neza kandi gifite ubusitani bwiza, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, maze babashe kwiga batsinde.

Ikigo cy'amashuri cya kaminuza aho cyakira abanyeshuri batandukanye barangije ayisumbuye kugira ngo bakomeze amasomo yabo bayaminuza, maze bazabashe guhabwa impamyabumenyi maze babone akazi binyuze kuri ubwo bumenyi bahawe.

Inyubako yebatse neza cyane ubona ko yakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, maze babashe kwagura imitekerereze yabo ndetse banajijuke, ku buryo bazabasha kubona akazi kandi bakagakora neza, maze babashe kwiteza imbere.

Ameza ubona ko ariho ibikoresho bitandukanye byifashishwa ku ishuri, harimo amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi bikoresho ubona ko ari ibyo abanyeshuri bari kwifashisha igihe bari gusubiramo amasomo yabo.

Ikigo cya kaminuza ubona ko cyubatse neza cyane, cyakira abanyeshuri b'ingeri zose kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe kwiteza imbere bihangira imirimo binyuze mu bintu bitandukanye, aho biga ubugeni ndetse n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo bazabashe kwiteza imbere.

Inyubako yubatse neza irimo ibitabo byinshi bigaragara ko ari isomero, aho yifashishwa haza abanyeshuri batandukanye kugira ngo baze gusoma maze biyungure ubumenyi kuko gusoma ibitabo ari isoko y'ubumenyi no kwaguka kw'imitekerereze yabo.

Uburiri buriho mashini, ubona ko ari ubw'umunyeshuri yifashisha igihe yatashye avuye ku ishuri. Ni byiza ko abanyeshuri bagira ahantu ho kurara heza, kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo kandi babashe kuyatsinda neza.

Ikigo cya Kaminuza giherereye i Huye, aho cyakira abanyeshuri barangije ayisumbuye kandi batsinze neza, kugira ngo babashe kuzamura ubwenge bwabo bahabwe n'impamyabumenyi, maze babashe kubona akazi biteze imbere.

Ishuri ryigirwarwamo, aho abanyeshuri baba bafite intebe ndetse n'ameza ndetse n'ikibaho ubona ko ari ishuri ryiza rikwiriye kwigirwamo. Ni byiza ko abanyeshuri bahabwa ibikoresho bikwiriye ndetse bakigira no mu mashuri meza.

Icyumba ubona cyubatse neza cyane, kirimo ibikoresho byifashishwa mu burezi, kugira abanyeshuri babashe guhabwa uburezi bufite ireme, ni byiza ko abanyeshuri bahabwa ibikoresho, byiza kandi bihagije kugira ngo babashe kwiga neza.

Icyumba ubona ko kirimo ibikoresho bitandukanye, ubona ko cyifashishwa n'abayobozi b'ibigo igihe bari gutegura amasomo ndetse n'ibindi byose bijyanye n'amasomo kugira ngo abanyeshuri babashe kugira uburere bwiza, kandi bagire uburezi bufite ireme.

Ahantu ubona ko hifashishwa igihe bari gukaraba, ubona ko hahurira abanyeshuri benshi, ni byiza ko ahantu hahurira abantu benshi hashyirwaho amarobine yo gukarabiraho kugira ngo habashwe kwirindwa indwara zitandukanye zishobora kwandurira mu mwanda.

Ibyumba bya Kaminuza y'u Rwanda, aho biba birimo ibikoresho bihagije kandi bibasha kwakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe amasomo yabo kandi bige bafate kugira ngo bizabamarire igihe bazaba bagiye kubikoresha mu buzima busanzwe.

Ahantu ubona hanitse imyenda itandukanye, aho ari byiza kwanika imyenda kandi tukayanika ahantu hameze neza, kugira ngo dukomeze kugira isuku kandi dukomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Ni byiza ko twita ahantu hose tugiye gushyira ibintu cyangwa tugiye kwanika.

Inyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa, aho ari ikigo cyakira abanyeshuri batandukanye bageze mu mashuri yo kuminuza kugira ngo babashe gukomeza amasomo yabo, baminuza ibyo bize kandi bahabwe ubumenyi bufite ireme kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Abarimu ndetse n'abayobozi ubona bahuriye ahantu hamwe kugira ngo bige ku ngamba zishobora gufasha uburezi gutera imbere ndetse n'ingamba zafatwa ndetse n'ireme ry'uburezi ryashyirwaho kugira ngo abanyeshuri bashobore kujya basoza bafite ubumenyi buhagije.

Abanyeshuri ba kaminuza aho bari mu cyumba bari gukora ubushakashatsi, ku birebana n'amasomo yabo kugira ngo babashe kumenya byinshi ku bijyanye n'amasomo yabo, ni byiza gukora ubushakashatsi ku banyeshuri kuko bifasha kwaguka mu mitekerereze yabo.

Inyubako ubona yubatse neza aho yifashishwa mu kwakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe kwiteza imbere binyuze mu bumenyi, kwiyungura ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe gukuza no kwagura imitekerereze yabo.

Ikigo cy'amashuri ubona ko kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse bifasha abanyeshuri kugira ngo bige neza harimo ubusitani bwiza kandi ubona cyubatse neza, ni byiza ko twita ku bigo abanyeshuri bigamo kugira ngo byubakwe neza kugira ngo babashe kwiga neza.

Abanyeshuri ba kaminuza aho basanzwe biga, aho usanga bari kwigira bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo aho baba bari gukoresha ibikoresho byifashishwa mu kugaragaza ibyo bari kwiga uburyo bworoshye.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri bo muri kaminuza kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi buhagije kandi bibafashe kugira ngo bazategure ejo habo heza, bahabwa akazi bitewe n'ubumenyi bahawe.

Ahantu ubona ko hari ubwiherero ndetse hari n'aho bihagarika, ni byiza ko ahantu hahurira abantu benshi, hagaragara ubwiherero kugira ngo abantu babashe kwisukura kuko biba ari ingenzi mu buzima.

Abarimu b'amashuri ya kaminuza, aho bari mu mahugurwa kugira ngo babashe gutegura neza amasomo yabo, maze babashe kwigisha neza kandi bigishe ibintu bifite ireme, abanyeshuri bazabashe kwiga neza.

Inyubako yubatse neza ubona yubatse mu buryo bw'amagorofa aho yifashishwa mu kwakira abanyeshuri kandi bakaza kwigiramo cyangwa bakahakorera inama kugira ngo babashe kubona ahantu bakorera heza kandi hagezweho.

Amashuri yifashishwa mu kwigisha abana, abaha ubumenyi, ari amashuri aba yubatse neza ariko bigasaba ko akomeza kuvugururwa, akagendana n'ibigezweho kugira ngo akomeze afashe abanyeshuri mu kwiga neza, bigira ahantu hakwiriye.

Ahantu ubona ko harara abantu bageze kuri bane, aho barara kandi hameze neza ubona ko ari abanyeshuri basanzwe biga, ni byiza ko abanyeshuri biga barara ahantu hameze neza kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo.

Ahantu ubona hubatse ihema ndetse hari n'amazu kandi hameze neza, ubona ko hari guhugurirwa abantu batandukanye bahabwa ubumenyi ku nsanganyamatsiko itandukanye kugira ngo abantu babashe kwihugura bajijuke, maze bagire ubuzima bwiza.

Ahantu hameze neza mbona ko hari inzu nziza kandi zubatse neza, ni byiza ko dutura ahantu heza kandi hari umuriro w'amashanyarazi kugira. ngo tubashe kubona ibikorwa remezo nk'imihanda itwegereye maze tubashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu ubona ko bari gusuzumwa indwara zitandukanye kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza, aho bamwe bari guhabwa imiti itandukanye ibafasha kuvura amatungo yabo ndetse n'ibindi byose bishobora gufasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo intebe zitandukanye ndetse n'inkweto ubona ko hari n'ameza, ubona ko ari umunyeshuri ahaba kugira ngo abashe kwiga neza. Ni byiza ko abanyeshuri biga bataha babasha kubona ahantu baba kugira ngo babashe kwiga neza.

Ikigo cya Kaminuza y'u Rwanda gishingiye kuri Catorike, aho cyigisha abanyeshuri batandukanye kikabaha ubumenyi kugira ngo babashe gukuza no kwagura ubwenge bwabo ndetse n'imitekerereze, aho bahabwa impamyabumenyi kugira ngo babashe kubona akazi maze biteze imbere.

Umugabo ubona ko ari gutegura ibiryo byiza, biriho intungamubiri zose, hariho kandi ubwoko bw'ibiryo imbuto, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ni byiza ko igihe tugiye gufata ifunguro twita ku bintu bitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara.

Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho ifasha abanyeshuri mu bintu bitandukanye, aho ibaha ubumenyi kugira ngo babashe kwiga maze babashe kwiteza imbere binyuze mu kazi. Ni byiza ko abanyeshuri barangije ayisumbuye bagana ishuri rya Huye.